Umwana urimo kunywa amazi kuri robine akoresheje ibiganza byombi wirabura, iruhande rwe hateretse intebe ifite ibara ry'ubururu, munsi hari icyapa cy'umuryango wita ku bana ndetse n'ikirangantego cyabo.

Abantu babiri harimo umwana wambaye umwenda w'ishuri wa kacyi ndetse n'umugore wambaye agapira k'ubururu ndetse n'agapfukamunwa arimo koza uwo mwana intoki akoresheje isabune amwogesha intoki zombi.

Abantu barimo abagabo ndetse n'abana bari kuvoma kuri kano, umwe muri bo ari kuvoma akoresheje amaboko, imbere yabo hateretse ijerekani barimo kuvomera ndetse n'akandi kajerekani gato ku ruhande.

Uruganda rurimo ibyuma bitandukanye harimo nk'amatiyo afite ibara ry'icyatsi ndetse n'ibindi byuma bifite ibara ry'ubururu, iruhande rwaho hahagaze umugabo wambaye imyenda y'umukara yandikishijwe amagambo y'umweru ndetse n'ingofero.

Abagore bari mu nzu bateze amaboko, babyina imbyino gakondo za Kinyarwanda, inyuma yabo hari ibishushanyo bitandukanye ndetse ku ruhande rwabo hari intebe ebyiri z'umweru n'ameza akozwe mu kibaho n'indi ntebe y'umukara ndende.

Abantu bari mu cyumba cy'inama, imbere yabo hari ameza afite ibara ry'umukara, ateretseho uducupa tw'amazi y'Inyange ndetse n'ibitabo, imashini ndetse n'amatelefone, inyuma yabo hari akabati gakozwe mu biti.

Inzu iri kuberamo inama yicayemo abana batandukanye abagore n'abagabo bicaye mu mbaga nyamwinshi ndetse n'imbere hicaye abantu bafite indangururamajwi kuri buri ntebe inyuma yabo hari icyapa cyandikishijweho amagambo y'umweru gifite ibara ry'ubururu ku ruhande hari isakazamashusho irimo umugabo nawe urimo kuvuga ubusa nkahoyo gukurikiranira inama ku mbuga nkoranyambaga.

Inzu irimo abana benshi harimo abakobwa ndetse n'abahungu, umwe muri bo yambaye agashati k'ubururu yakazamuye, umuganga wambaye umwenda w'akazi ndetse n'ibimuranga arimo kumutera urushinge ku kaboko.

Abana bambaye udupira dufite ibara ry'ubururu twandikishijeho amagambo y'umweru ari mu cyongereza yitwa unisefu, nyuma y'aho hari inzu yubakishiijwe amatafari ahiye n'imiryango y'ubururu.

Abantu barimo abagabo n'abana, bicaye imbere y'inzu ifite irido ry'umweru, hari umugabo uhagaze wambaye isengeri y'akazi ifite ibara ry'ubururu bwijimye n'agapira k'umutuku, ufite ikaye mu ntoki arimo gusobanurira uwicaye.

Abantu barimo abakobwa n'abahungu b'urubyiruko, bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'ibibaranga mu ijosi, inyuma yabo hari icyapa gisize ibara ry'icyatsi n'umweru, cyandikishijweho amagambo y'umweru, mu nguni harimo abantu bambaye amataburiya n'ibibaranga.

Umwana n'umugore bari mu murima w'imboga rwatsiumugore wambaye agatambaro k'umweru n'agapira karirimo mutobara ndetse n'umwana ufite isahani ikozwe mu cyuma iriho imboga basoromye hejuru yaho handitse amagambo ari mu ibara ry'umukara ndetse no hasi hari amagambo ari mu ibara ry'umweru na orange.

Abantu bahagaze imbere y'inzu ifite ibara ry'ubururu harimo abagabo n'abagore bamwe muri bo bambaye amataburiya y'abaganga afite ibara ry'umweru abandi bambaye imyenda isanzwe hejuru kuri iyo nzu hari icyapa kiriho umuryango papa n'abana babiri ndetse na mama iruhande rwabo handitse amagambo mu ibara ry'ubururu.

Abagore batatu barimo kuvoma amazi kuri kano, babiri muri bo bahagaze inyuma barimo gusunika, undi afite indobo y'icyatsi arimo kuvoma, inyuma yabo hari ibiti.

Umugore wambaye ingofero, agapira ndetse n'ijipo n'abana babiri bari ku mugezi, umugore arimo guseka afashe ijerekani n'amaboko yombi, arimo kuvoma.

Icyapa kiriho ifoto y'umukobwa wicaye wambaye agapira gatukura, uri mu mukazeru munsi handitse amazina ye ndetse n'ibyo akora, ku ruhande ama handitse amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Umwana wambaye agashati k'amaboko maremare karimo amabara ya gisirikare n'agakabutura k'umutuku na bodaboda z'ubururu uteze intoki zombi arimo kunywera amazi ku mugezi munsi ye harimo indobo y'ivu iri kumenekamo amazi.

Urugomero rw'amazi rwubatse mu biziga bibiri, kimwe ibumoso ikindi iburyo bigatandukanywa n'umuhanda bisize ibara ry'ivu ndetse n'umweru, hejuru hariho utwuma, inyuma yaho hari inzu ifite amabati y'umutuku isize irangi ry'umweru ndetse n'amatara.

Abantu barimo abagabo n'abagore bambaye udupira tw'ibara rya oranje ndetse n'amapantaro, imbere yabo hari akarima k'igikoni kagizwe n'ubutaka ndetse n'imifuka irimo ibara ry'umutuku n'umweru, barimo guteramo imboga, inyuma yabo hari ikigega gifite ibara ry'umukara n'inzu ifite amatafari ahiye ndetse n'ibiti.

Abana bambaye impuzankano ifite ibara rya kaki bamwe muri bo bari kuvomera mu ndabo abandi bateze amaboko ku mugezi, inyuma yabo hari ibiti ndetse n'amazu.

Abantu bari mu cyumba cy'inama, harimo abagabo n'abagore, imbere yabo hari ameza ateretseho ibikoresho bitandukanye, harimo nka porojegiteri, harimo udukombe tw'icyayi duteretse k'udusahani dutoya.

Abantu barimo abagabo n'abagore, bahagaze iruhande rw'inzu yubakishije amatafari ahiye, iruhande rwabo hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, cyandikishijweho amagambo y'umweru n'umuhondo, hagatiti hashushanyijemo, umuforomokazi wambaye umwenda w'akazi.

Umugore uri imbere y'inzu wambaye ingofero y'ubudodo mu mutwe, agapira k'umukara n'umweru ukenyeye igitenge, uri koga intoki kuri kandagira ukarabe bikozwe mu biti ndetse ku ruhande hari aho batereka isabune n'akajerekani k'umweru.

Ikarita ifite ibara ry'umweru yandikishijweho amagambo y'umukara, ndetse n'imibare iri mu mabara atandukanye nk'ubururu, icyatsi, umuhondo, oranje, ndetse n'umutuku, hejuru hashushanyije ikarita igiye iriho udushushanyo turanga amerekezo, ndetse hasi handitse imbuga nkoranyambaga babashakiraho.

Umuganga wambaye imyenda y'akazi ifite ibara ry'icyatsi, agapfukamunwa k'ubururu n'umweru, n'ingofero y'umuhondo n'ubururu, imbere ye hari ibyuma byo kwa muganga bitandukanye bicometseho insinga ndetse harimo n'imibare.

Abantu bicaye ku murongo buri wese afite ifishi yiwe, imbere yabo hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ndetse ari kumwe n'umugore wambaye ishati y'umutuku ni gitenge cy'umutuku ari ku mupima umuvuduko.

Abantu bambaye amatabariya afite ibara ry'ubururu, harimo abagabo n'abagore bahagaze, umwe muri bo yambaye ikote rya shokora, ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, inyuma yabo hari ibiti.

Abantu babiri barimo umugabo wambaye agapira k'umweru n'ubururu, urimo kwikoreza umwana wambaye agapira k'iroza ijerekani ifite ibara ry'umuhondo, iriho icyapa cy'ubururu cyandikishijweho amagambo y'umweru n'umuryango wita ku bana.

Inzu isize amarangi y'umweru ndetse n'ubururu imbere yaho hahagaze abantu biganjemo abana bambaye impuzankano ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'abandi bantu bakuru bari inyuma yabo mu muryango harimo abirabura ndetse n'abazungu ku ruhande rwaho hari icyapa kigaragaza umushinga wita ku bana kiri mu ibara ry'ubururu cyandikishijweho amagambo y'umweru.

Abantu bari mu nzu y'inama, isize amarangi y'umweru, bari mu bice bibiri ibumoso ndetse n'iburyo, iruhande rw'abantu bicaye ibumoso, hari umuryango ndetse n'inyuma yabo.

Inzu iteraniyemo abagore, imbere yabo hari ameza bamwe muri bo bayafasheho, inzu barimo ishushanyijeho ibishushanyo bitandukanye harimo ibishushanyo by'igiti, inzu ndetse n'abana.

Abantu b'urubyiruko harimo abakobwa ndetse n'abahungu bambaye ingofero z'umweru udupira tw'umweru, bafashe icyapa kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu cyanditseho umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri ndetse munsi yaho hari ibigo byagiye bibatera inkunga.

Abagore bari kuri robine, umwe arahagaze, abandi babiri barunamye barimo koga intoki, undi arimo kunywera amazi mu ntoki. Iruhande rwabo hateretse amajerekani abiri.

Abantu bari mu bitaro inyuma yabo hari amadirishya y'ibirahuri, muri bo harimo umugore wambaye igitenge kirimo ibara ry'umutuku n'umweru uteruye umwana, ndetse n'umuganga urimo kuvura umwana wambaye umwenda w'abaganga, ndetse na ga ari kumupfuka mu mutwe.

Umwana w'umuhungu wambaye agashati k'icyatsi cyerurutse n'agakabutura k'umukara, uri kuvoma ku mugezi ufite ibara ry'ubururu, atezeho ibiganza byombi, iruhande rwe hateretse indobo yuzuye amazi ifite ibara ry'ubururu, inyuma ye hari ibiti.

Abantu bateraniye imbere y'inzu ifite umuryango w'ibiti bisize ibara ry'ubururu, harimo umugabo ubahagaze imbere ufite ikayi n'ikaramu mu ntoki arimo kubabwira, ndetse abandi baricaye bamuteze amatwi.

Abantu bahagaze barimo abazungu n'abirabura, babiri muri bo barimo gusuhuzanya, umwe yambaye kositimu y'ivu, undi yambaye kositimu y'umukara n'ibimuranga mu ijosi, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo ndetse n'imibare.

Umugore wambaye umupira w'amaboko maremare, ingofero mu mutwe, ukenyeye igitenge, uri kuvoma ku mugezi, hari amajerekani y'umuhondo atatu, inyuma ye hari umurima urimo ibigori ndetse hasi hari amagambo ari ku cyapa gifite ibara ry'ubururu cyandikishijweho amagambo y'umweru.

Abantu bari mu nama harimo abagabo n'abagore, imbere yabo hari ameza ariho ibitambaro by'ubururu ndetse n'umweru na terefone, hari amazi y'ubwoko bwa nili afite agacupa kabonerana n'umuvuniko w'ubururu, imbere ya buri muntu hari agapapuro kanditseho izina rye n'ibyo akora.

Abana b'abakobwa bambaye impuzankano babiri muri bo bambaye ishati y'umweru na karuvati y'umukara abandi bambaye kaki bose bateze amaboko kumugezi inyuma yabo hagaze undi umwe ndetse haril n'ibiti.

Inzu irimo abantu batandukanye, harimo umugore wambaye agapira k'umutuku, ipantaro y'umukara n'ingofero y'umweru, urimo gutonyangiriza akanini mu kanwa k'umwana mutoya, wambaye agapira k'umukara n'ipantaro y'umukara irimo uturongo tw'umweru.

Umwana usutamye iruhande rw'umugezi, uteze amaboko yombi ku mugezi, wambaye agapira karimo umutuku n'ubururu n'umuhondo, iruhande rwe hateretse amajerekani atatu, abiri y'umuhondo n'imwe y'ubururu.

Umwana w'umuhungu wambaye agapira k'umuhondo n'ikabutura y'umukara uri ku mugezi akaboko ke k'iburyo gafashe ku mugezi akandi gateruye ijerekani ifite ibara ry'umweru inyuma ye hahagaze abandi bantu nabo barimo kuvoma.

Imodoka ya rukururana ifite ibara ry'umweru n'umutuku, kuri iyo modoka hashushanyije ikirangantego kirimo amasaka ndetse n'ibindi bihingwa, byandikishijeho amagambo y'ubururu mu nyuguti nkuru.

Abantu bari mu nama, bamwe bari mu ruhande rw'ibumoso, abandi bari iruhande rw'iburyo, hagati yabo hari ameza ariho, ateretseho uturabo, amazi ndetse n'amaterefone, n'amakayi kuri bamwe na bamwe na mudasobwa, imbere yabo hari insakazamashusho.

Abantu barimo umuganga wambaye umwenda w'akazi ndetse n'ibimuranga mu ijosi, n'umukecuru wamuhaye akaboko, arimo kumuhanagura yitegura kumutera urushinge, iruhande rwabo hicaye umukobwa wambaye ikoti ry'umukara, ufite amapamba mu ntoki.

Icyapa kiriho abana babiri, bambaye udushati tw'umutuku, umwe afashe igikombe mu kaboko k'iburyo, arimo gusukira undi, arimo koga intoki, hejuru yaho hari icyapa kigaragaza umuryango wita ku bana, ndetse hasi hari amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru.

Umwana usutamye wambaye ibirenge, agakabutura ndetse n'umupira, uteruye indobo y'umuhondo mu ntoki zombi usa n'ugiye kuyikorera, iruhande rwe hari imigezi ine ndetse n'umugabo uhahagaze wambaye ipantaro y'ikoboye n'agapira k'ubururu, ufite ingata mu ntoki.

Icyapa kirimo ibara ry'umweru rishushanyijeho akazeru kanditsemo inyuguti ya na kuruhande rwawo handitse amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza mu nyuguti nkuru mu ibara ry'umukara.

Umwana wambaye agapira karimo umutuku, ubururu n'umuhondo, urimo guseka utaze amaboko yombi ku mugezi, iruhande rw'umugezi hari amajerekani atatu, abiri y'umuhondo n'imwe y'ubururu, iruhande rwe hari ibiti.

Umuntu uri ku mugezi ugizwe na robine enye, wambaye ikanzu iri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, robine imwe niyo ari kuvomeraho, hariho injerekani ifite ibara ry'umuhondo ayifasheho, arunamye, arareba ibumoso bwiwe.

Abana bari ku ishuri, bambaye impuzankano y'ibara rya kaki, harimo abakobwa n'abahungu, imbere yabo hari ama robine ndetse n'indobo z'umuhondo ziteretse iruhande rwa robine bamwe muri bo bari gukaraba intoki, abandi barimo kubareba.

Abantu barimo abagabo n'abagore bahagaze imbere y'inzu yubakishijwe amatafari ahiye isize irange ry'umuhondo werurutse ifite amadirishya y'ibirahuri asize akabara k'umukara kuruhande iruhande rwabo hari igiti.

Icyapa kiri mw’ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, cyandikishijweho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza. Hasi har’amafoto y'abantu batandukanye, munsi ya buri foto hagiye hariho izina ry'umuntu n'icyo akora.

Abantu babiri barimo umukobwa ndetse n'umwana, umukobwa arunamye afite indobo i ruhande rwe hari amazi aturukaho, bafashe insina barayirambura ku buryo iyungurura amazi inyuma ye hahagaze undi muntu.

Umwana uri ku mugezi, wambaye agapira k'umutuku k'amaboko magufi, urimo guseka, afatishije igikombe akaboko k'iburyo, gifite ibara ry'umuhondo n'umuzenguruko w'ubururu, ari kuvoma amazi.

Abantu bahagaze ahantu mu busitani barimo abagore n'abagabo, abenshi muri bo bambaye udupira tw'umweru. Inyuma yabo hari icyapa gifite ibara ry'ubururu cyandikishijweho amagambo y'umuhondo ndetse hejuru hari akarongo k'umweru kandikishijwehon'amagambo ya oranje.

Abantu babiri bari ku mugezi w'amazi atemba, umwe muri bo ni umugore wambaye agapira k'umuhondo, afite ijerekani arimo kuvoma amazi ayadashe ndetse n'undi uri iruhande rwe w'umusore wambaye agapira k'umuhodo n'ikabutura y'umukara urimo kuhogereza igare.

Abana bahagaze imbere harimo abakobwa ndetse n'abahungu imbere yaho bahagaze haritapi y'umutuku inyuma yaho hari icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi cyerererutse ndetse n'umweru byandikishijeho amagambo y'umweru ku ruhande rwaho hari icyapa cy'umuryango ushinzwe abana n'uburezi ku isi hose ndetse n'ikindi cyapa cyumweru cyanyandikishijeho amagambo y'ubururu.

abantu barimo abagabo n'abagore bahagaze munzu hamwe kumurongo w'imbere abandika kumurongo w'inyuma, inyuma yabo hari icyapa kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu cyandikishijweho amagambo y'umweru.

Abantu barimo abagabo n'abagore bose bambaye udupfukamunwa, bamwe muri bo bambaye itaburiya ifite ibara ry'ubururu, inyuma yabo hari ibyapa biri mu mabara atandukanye nk'umweru, ubururu ndetse n'icyapa cya MTN.

Ahantu hari abagabo n'abagore, imbere yabo hari imifuka myinshi ifite ibara ry'umweru igenda itondekanye, harimo abagore babiri bateruranye umufuka bose bambaye ibitenge birimo ibara ry'umutuku, umwe yiteze mu mutwe, undi yambaye ingofero.

Umugore wambaye ingofero y'ubururu, agapira k'umukara, umweru na move, ukennye igitenge k'icyatsi, ari ku mugezi arimo kuvoma mu ijerekani ifite ibara ry'umuhondo, inyuma ye hari amashyamba ndetse n'ibindi.

Inama irimo abagabo n'abagore, bambaye ibibaranga mu ijosi, iruhande rwabo hagiye yateretse utumeza turiho amazi ndetse n'ibitabo, inyuma yabo hari amakamera ndetse bari mu cyumba kinini.

Abantu bari mu nzira barimo abantu bakuru ndetse n'abana, umwana yikoreye ijerekani ifite ibara ry'umuhondo, yambaye agapira k'umuhondo n'ijipo y'umukara. Iruhande rwe hahagaze umugabo wambaye agapira k'ubururu n'ipantaro y'ikoboyi, uri kumutura iyo jerekani.

Abantu batatu, umwe muri bo aricaye, undi ni umuforomokazi wambaye ishati y'umweru n'agapfukamunwa arimo gutera urushinge uwicaye, inyuma ye hahagaze undi mugore wambaye agapfukamunwa k'ubururu n'ishati irimo utudomo tw'umuhondo ndetse n'umukara.

Umwana w'umukobwa uri ku mugezi urimo guseka wambaye imyenda idozwe mu gitenge ifite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru n'umukara ahari kogera hari ibase y'umukara, inyuma ye hari igipangu cy'amatafari.

Urugomero rw'amazi rwubatse mu buryo bw'ikizeru hagati, harimo amazi arimo kwikaraga ndetse iruhande rwaho hari ibyuma bitandukanye. Hari amatara maremare ndetse n'ibiti inyuma yaho.

Abantu bari mu nzu ifite amarido y'ubururu, imbere yabo hari ameza, hariho ibitambaro by'umukara ateretseho mudasobwa ndetse n'amazi. Umwe muri bo afite indangururamajwi aravuga areba undi.

Umugore wikoreye indobo yumutuku wambaye ishati irimo ibara rya shokora ndetse n'umuhondo n'igitenge kirimo ibara ry'ubururu n'umweruru na oranje mu kaboko k'iburyo afashe indobo ifite ibara ry'umuhondo imbere ye hari ibyatsi byumye.

Abantu bateraniye mu cyumba cy'inama gisize amarange y'umweru gifite amarido ya kake, imbere yabo hari ameza azengurutse, hateretse ibikoresho bitandukanye nka mudasobwa na terefone ndetse n'amakayi, inyuma yabo hahagaze abantu ndetse n'umuntu ufotora.

Abana b'abahungu bari kuri kanano, bamwe muri bo bazengurutse kano undi ari gukoreshakanano arimo kuvomera mu ijerekani ifite ibara ry'umuhondo, inyuma yabo hari igihuru giteyemo ibiti ndetse n'ibyatsi byimejeje.

Abantu bicaye ahantu mu kibuga, hejuru yabo haciye itsinga, bamwe muri bo baricaye abandi barahagaze bateruye abana babo, umwe muri bo ateruye umwana. Umuganga yambaye ikote ry'abaganga ry'umweru n'agapfukamunwa, akoze ku mwana iruhande rwabo hateretse udutabo.

Abantu bahagaze, harimo umugore wambaye agapira k'ubururu, uteruye umwana mu dushura tw'abana ndetse n'undi umuhagaze iruhande wambaye agapfukamunwa n'isengeri y'icyatsi y'akazi, yambaye na ga z'ubururu, afite agakoresho bifashisha bapima umuriro, iruhande rwe hahagaze abandi bantu.

Umugabo uhagaze imbere wambaye ikote ry'umukara uhagaze ku gatoti k'umweru kariho icyapa cy'ubururu cyandikishijehomo amagambo y'umweru, iruhande rwe hari intebe z'imisego zifite akabara kumukara ku ruhande aho bafata hagiye hateretse icupa ry'amazi y'inyange inyuma ye hari icyapa cy'ubururu cyandikishiho amagambo y'umweru.

Abagore batatu bari kuri kano, babiri muri bo barimo kumanura icyuma cya kano, undi arimo kuvoma mu ndobo y'icyatsi ayifashe ku mukondo, yambaye igitenge cy'umutuku kiriho utuntu tw'umukara ndetse n'ibirenge.

Icyapa gifite ibara ry'ubururu giciyemo ibice bibiri, iruhande rw'iburyo hari agace k'umweru kandidikishijweho amagambo y'ubururu, asobanura ifoto iri kuruhande rw'ibumoso iriho umugabo wambaye amadarubindi y'umukara w'umwirabura, ndetse n'amazina ye hasi.

Abantu bari kuri kano barimo kuvoma, umuhungu umwe wambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'ikoboyi ari kuvomera akana kambaye agapira k'umweru n' ikabutura y'ubururu gafite utujerekani duto tubiri imbere yaho hateretse idishi y'icyuma irimo amazi inyuma yabo hari ibihuru.

Abana bari mu migezi bamwe muri bo bahagazemo abandi barambuye amaboko yombi abandi babiri bari hirya yabo, umwe muri bo ari koga undi arahagaze ari kumureba.

Umuntu wambaye agapira karimo uturongo tw'umukara n'umweru, yazamuye agapira iruhande rwe hari umuganga urimo kumutera urushinge, wambaye ga z'umweru, ndetse n'ikote ry'umukara, arimo kumutera umuti.

Abagore batandukanye bahagaze imbere y'inzu, yabakishijwe amategura, amatafari ahiye, ndetse n'ibirahuri, harimo abambaye amajire y'icyatsi, ndetse harimo n'undi uhetse umwana.

Abantu bicaye munsi y'igiti, harimo abagore batatu, babiri muri bo bambaye udupfukamunwa tw'ubururu n'umweru, undi yambaye agapfukamunwa gakoze mu mwenda, bafite impapuro, umwe arimo kwandika, iruhande rwabo hateretse ibikoresho byo kwa muganga.

Icyapa cyandikishijweho amagambo y'ubururu, umuhondo, umukara, ku ruhande rwaho hari ifoto y'umugore wambaye agapira k'umukara n'umweru, munsi handitse amazina ye biri mu ibara ry'ubururu.

Umusaza ufite uburwayi bwo mu mutwe, wicaye hasi wambaye ikote ndetse n'igikori cy'umutuku, iruhande rwe hateretse uducupa tubiri tw'amazi ndetse n'inkoni afite ibyatsi mu ntoki inyuma ye hari abantu.

Umugabo wicaye mu nzu, wambaye agapira k'ubururu karimo uturongo tw'umweru, ukenyeye igitenge, yicaye ku kindi gitenge, amaguru ye yombi arahambiye n'ibyuma, yifashe mu mutwe iruhande rwe hashashe ikindi gitenge.

Umukecuru wicaye ku kirago ukuze, wambaye umupira urimo uturongo tw'umukara, umutuku, umweru, ndetse n'ijipo ya move, iruhande rwe hicaye utwana twinshi udukobwa n'uduhungu, inyuma yabo hari inzu.

Icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo y'umukara n'umweru, harimo amabara atandukanye nk'umukara, umweru, ubururu, icyatsi, umuhondo, hejuru hari ikirangantego cy'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe Ubuzima mu Rwanda.

Icyapa cy'ubururu kirimo ibishushanyo bitandukanye, hariho igishushanyo cy'umwana wicaye, igishushanyo cy'umubyeyi uri kumwe n'umwana, igishushanyo cy'umuryango, igishushanyo cy'umugore utwite ndetse ku ruhande hari amagambo ari mu ibara ry'umutuku mu rurimi rw'Icyongereza.

Abantu babiri bari mu nzu, harimo umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'umutuku ndetse n'utuntu tw'ubururu, wambaye ipantaro y'umukara, arimo gusuhuza umugabo usa nk'ufite uburwayi bwo mu mutwe, wambaye imyenda yacitse. Bari mu nzu isize irangi ry'umuhondo.

Abantu bari mu muhanda barimo gukora ubukangurambaga bamwe muri bo bambaye udupira tw'icyatsi cyererutse, undi afite indangururamajwi mu ntoki n'agapapuro ari gusoma, iruhande rwe hari umupolisi ufite icyapa kiririmo ibara ry'umweru cyanditseho amagambo avuga ngo kurwanya ihohoterwa ni inshingano yanjye.

Umugabo wirabura bambaye ingofero iriho ibyoya by'umukara ndetse n'umweru, ufite ibihanga wambaye agashati k'ubururu n'umukenyero w'umuhondo, inyuma ye hari abandi bantu nabo bambaye imyenda isa gutya.

Umugore wambaye agapira ka oranje n'umukara ndetse n'ikote, wikoreye igitebo kirimo ibyatsi ndetse afite n'isuka mu ntoki azifatishije ibiganza byombi, inyuma ye hari inzu yubakishijwe amategura.

Abantu babiri bicaye umwe wambaye ikoti ry'umutuku n'ingofero irimo amabara ya gisirikare wifashe ku itama, n'undi umufasha ku rutugu wambaye agapira k'umukara, amadarubindi ndetse n'ijipo y'umukara.

Umugore wicaye ku ntebe y'urubaho itambitse, wambaye agapira k'icyatsi n'ijipo irimo utubara ubururu, umutuku, umweru, biteze agatambaro mu mutwe gafite ibara ry'umuhondo. Inyuma ye hari igikuta gishushanyijeho ururabo rufite amababi y'icyatsi ndetse rusa umuhondo.

Umugore uri muri butike, wambaye ijire y'umuhondo ya MTN, inyuma ye hari ibikoresho bitandukanye yifashisha mu guteka, harimo nka sositomate ndetse n'ibindi birungo.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru mu nguni y'iburyo hashushanyije umugore wambaye igitambaro cy'umukara agapfukamunwa k'umweru ndetse n'umupira w'umukara, ku ruhande rwe hari amagambo mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umutuku ,munsi hariho imbuga nkoranyambaga wabasangamo.

Abana bambaye impuzankano y'udupira tw'umuhondo, umwe muri bo yambaye udupapuro twanditseho amagambo mu mutwe nk'ikamba, undi ukambaye ku kaboko, barimo gukoma amashyi ndetse inyuma y'abo hari abandi bantu benshi.

Abagore bicaye muri shitingi ifite ibara ry'ubururu, bose bafite amakayi mu ntoki, umwe muri bo wambaye isengeri y'ubururu y'akazi arimo kuvuga, abandi bamuteze amatwi.

Icyapa gishushanyijeho umugore w'umwirabura urimo guseka iruhande rwe hari imibare rimwe, kabir,i gatatu igiye iteganye n'amagambo arimwibara ry'umweru hejuru munguni harimo ibara rya orange ririmo ikirangantego cy'ikigo mpuzamahanga gishinzwe ubuzima.

Abantu barimo abagabo, n'abagore, bahagaze imbere y'inzu, bamwe hejuru, abandi hasi, iruhande rwabo hari icyapa kiriho abantu batandukanye, harimo nk'abana, abagore, handikishijweho amagambo y'umweru, mu ibara ry'ubururu, ndetse n'ibigo byagiye bibatera inkunga.

Abantu bari mu cyumba cy'inama, batandukanye, harimo abagabo, n'abagore, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hahagaze umugore wambaye ishati y'amaboko maremare, imbere ye hari insakazamashusho iriho ibintu ari kubasobanurira, ndetse n'iyindi izimije.

Umwana uri guseka wambaye impupankano ifite ibara ry'umweru, karuvati y'ubururu bwijimye ndetse ni'ijipo yijimye, wicaye akaboko kamwe akazamuye agashyize ku ntebe, akandi kari ku meza, atamiye biswi, inyuma ye hari abandi bantu.

Abantu batandukanye barimo abagore, abagabo, abana, bafite udupapuro dufatishijeho n'igiti, dusize amabara y'idarapo ry'Urwanda, bishimye barimo guseka, nyuma yabo hari igicu.

Abantu bari mucyumba cy'inama zisiza amarangi yumweru biganjemo urubyiruko bambaye udupira twumukara ndetse n'amapantaro bicaye ku ntebe z'umutuku ndetse n'umuhondo kuru ruhande rwabo hari abantu bahagaze nabo bambaye utupira tw'umukara.

Abagore n'abagabo b'abirabura ndetse n'umuzungu umwe bahagaze, bose bafite ibyapa mu ntoki bifite ibara rya oranje, kuhande basize akarange k'icyatsi, inyuma yabo hari icyapa kiriho imishinga y'Imbuto foundation, inyuma yabo hari inzu nini, ndetse n'ibiti.

Abantu bari imbere y'inzu iriho icyapa cy'umweru yandikishijweho amagambo y'umukara, bamwe muri bo barahagaze abandi baricaye, inyuma yabo hari ubusitani burimo ibiti ndetse n'igipangu cyubakijijwe amatafari ahiye.

Abantu bicaye hanze barimo abagabo n'abagore, umugabo umwe muri bo yicaye ku ntebe itambitse y'urubaho yazamuye amapantaro, imbere ye hicaye abagore bane, umwe muri bo afite urupapuro n'ikaramu mu ntoki, inyuma yabo hari insina.

Abantu bari mu nzu isize amarangi y'umweru ndetse icanyemo n'amatara, benshi bicaye mu mbaga nyamwinshi , abandi babiri basa nk'aho bari gukina ikinamico, umwe muri bo yambaye agapira k'umutuku, ipantaro y'umukara, undi yambaye ikanzu y'igitenge irimo utubara afite indangururamajwi mu ntoki.

Abana barimo abahungu n'abakobwa, bahagaze ahantu hari igihuru kirimo ibyatsi byumye ndetse n'ibitoshye, iruhande rwaho hari inkingi y'igiti bamwe muri bo bayegamiyeho, umwe muri bo yambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'icyatsi n'inkweto z'icyatsi.

Abantu bari gutera ibiti, ifoto ya mbere irimo abagabo babiri bunamye bari gutera igiti, ahandi bifotoreje ku giti gisa nk'icyazamutseho gato, ahandi baracukuye bagifashe mu ntoki, abandi ni benshi imbere yabo hari icyapa cy'umweru.

Icyapa kiri mu ibara ry'umukara cyanditseho amagambo atandukanye ajyanye n'uburwayi bwo mu mutwe, amwe aratambitse andi arahagaze andi arazamuye agiye anyuranyemo, ari mu ibara ry'icyatsi, ubururu, oranje, umukara ndetse n'ayandi.

Abantu bari mu nzu bavuriramo amenyo, harimo umwana muto wambaye agapfukamunwa k'umutuku, n'agapira k'umukara, ndetse n'abaganga babiri, umuhungu n'umukobwa, umuhungu arimo kureba umwana ikibazo afite mu menyo, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo y'umweru, ndetse n'ikindi cyapa kiriho umuryango urimo abana n'ababyeyi.

Umugabo wirabura ufite akagozi bakoresha basukura mu menyo gafite ibara ry'umweru, agafite mu biganza byombi arimo gusukura hagati y'amenyo, mu kiganza cye kindi afite aho ako kagozi kava.

Igishushanyo bafotora bakoresheje ibikoresho byo kwa muganga kirimo ibara ry'umweru, umukara ndetse na move, cyerekana amenyo ayo hasi ndetse n'ayo hejuru.

Umukobwa urimo gukora amasuku mu menyo akoresheje akagozi gafite ibara ry'umweru kugirango akuremo ibiryo byasigaye mu menyo, agafatishije ibiganza byombi akoresheje urutoki wirabura ufite imisatsi y'umukara.

Inzu yo kwa muganga irimo abaganga babiri, umwe wambaye ibara ry'icyatsi cyerurutse n'undi wambaye ibara ry'umweru bose bambaye ga z'umweru, imbere yabo haryamye umugore wasamye uri kumutorosha mu menyo undi arimo kumukura.

Umugabo wirabura, wambaye umwenda w'umweru, afashe akagozi bakoresha basukura mu menyo, afatishije ibiganza byombi, arimo kukanyuza mu menyo y'iwe, yireba mu kirahuri.

Umwana wambaye agapira k'ubururu wicaye mu ntebe y'umutuku wasamye, iruhande rwe hari umuganga uri kumusuzuma mu menyo wambaye ga zifite ibara ry'ubururu yakoreshejemo ibiganza byombi.

Abantu bari mu nzu higanjemo abambaye udupira twanditseho tubitayeho, dufite ibara ry'icyatsi, bicaye ku ntebe zikozwe mu biti, imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru ateretseho umuti w'amenyo, umwe muri bo afite uburoso bw'amenyo ari kubereka uko basukura amenyo.

Umugabo wirabura ufite ubwanwa, ku kaboko ke afite agakoresho bakoresha basukura amenyo, kari mu ibara ry'icyatsi, gafite ishusho y'urukezo, ari kugakoza mu menyo yo hasi.

Umuntu ufite mudasobwa irimo ibishushanyo bitandukanye by'amenyo, kimwe kiri mu ibara ry'umutuku, ikindi kiri mu ibara ry'umukara, urutoki rwe rufashe ku gishushanyo cy'amenyo kiri mu ibara ry'umukara, bari kwerekana ahafite ikibazo.

Umugabo wirabura munini mo ukuntu wambaye ubusa hejuru urimo guseka ufite akagozi k'umweru agafatishije udutoki tubiri iburyo n'ibumoso agiye ku akoresha amasuku mu menyo.

Abana batoya b'abirabura, bambaye imyenda y'ishuri ifite ibara ry'ubururu, bose bafite uburoso bw'amenyo, umuntu umwe muri bo afite ubw'ubururu, undi imbere ye afite ubw'icyatsi, uri imbere muri bose afite uburoso bw'umuhondo arabuzamuye hejuru.

Umuhungu wirabura wambaye agapira k'ubururu bwijimye, uryamye ku gatanda ko kwa muganga, wasamye, mu menyo ye bafatishijeho ibintu byo kwa muganga, bagiye kumukura iryinyo, muganga umuhagaze iruhande afite ibikoresho byose mu kaboko k'iburyo ndetse n'ibumoso.

Umukobwa w'umwirabura ufite ibisuko by'inweri urimo guseka, kuruhande rwe hari akantu gafata amenyo yo ku rwego rutandukanye, umuganga wambayega yafashe iryinyo rimwe arifatishije agakoresho kabugenewe ari kuriringaniza n'iryinyo bashaka gusimbuza.

Inzu yo kwa muganga yicayemo umugabo ku ntebe ifite ibara ry'ivu, wambaye ishati irimo uturongo tw’ubururu ndetse n'umweru, iruhande rwe har’ikiganza cy’umuganga wambaye itaburiya y’umweru na ga z’ubururu, bafite akantu bavurisha amenyo mu ntoki.

Inzu yo kwa muganga bakuriramo amenyo, ifite agatebe gafite aho kwegamira, gafite ibara ry'umweru ndetse na move ndetse n'akandi gatebe gafite ibiziga by'umukara gafite ibara rya move, iruhande rwaho hari icyuma gicometseho insinga ndetse no hejuru ifite itara ribafasha kumurika na mudasobwa.

Umuganga wambaye umwenda w'abaganga, ufite ibara ry'umweru, wanditseho amagambo y'icyatsi, wambaye ipantaro y'umukara, wicaye ku gatebe gafite ibiziga by'umukara, gafite ibara ry'icyatsi, ku ruhande rwe, hari agatanda gafite ibara ry'icyatsi ndetse na robine yo gukarabiraho, ku ruhande hari ikindi cyuma gicometseho insinga.

Ishuri ririmo abana bambaye impuzankano ifite ibara ry'umuhondo bicaye ku ntebe zikozwe mu biti buri mwana afite uburoso bw'amenyo mu ntoki arabuzamuye inyuma yabo hari idirishya rifite ibara ry'icyatsi.

Shitingi ifite ibara ry'umweru iriho icyapa gishushanyijeho umuntu urimo guseka n'amagambo y'umweru, ku ruhande hejuru hariho ikirangantego k'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, imbere yaho hatonze umurongo w'abantu bafite ibipapuro mu ntoki ndetse kuru ruhande rwabo hari umunzani.

Abantu bari mu nzu, bamwe muri bo baricaye bambaye udupira tw'icyatsi twanditseho amagambo y'umuhondo tubitayeho, inyuma yabo hari abandi bambaye imipira y'umweru n'udupfukamunwa, umwe muri bo barimo kumusuzuma mu kanwa.

Abantu bari mu nzu bicaye mu ntebe babiri muri bo harimo umusaza ukuze wambaye agapira k'amaboko maremare k'umuhondo n'isengeri ikozwe mu budodo inyuma ye hari umuforomokazi umukoze ku bitugu wambaye imyenda y'ubururu ndetse n'igipimisho bakoresha bapima umutima.

Inzu irimo abakecuru n'abasaza b'abirabura ndetse n'abazungu, inyuma yaho hari amadirishya asize irangi ry'umweru, umwe muri bo yicaye mu kagare, umuforomo arimo kumwitaho wambaye imyenda y'ivu ndetse n'ibimuranga mu ijosi.

Inzu irimo umugabo n'umugore umugabo ukuze wambaye umupira udozwe mu budodo w'umweru imbere ye hateretse igikombe cy'icyayi ndetse n'imbuto afite urubuto agiye gutamira ruri ku ifoke umuforomokazi ari kumusukira ji ifite ibara ry'umuhondo mu kirahuri.

Inzu irimo umusaza ukuze, wicaye, imbere ye hari ameza arimo ibitabo, yambaye ishati ya kacyi, akaboko ke k'ibumoso gafashe mu mpanga, akandi gafashe ku meza.

Umugore n'umugabo bari mu gikoni cya kijyambere gisize amarange y'umweru, imbere yabo hari imeza iteretseho udukombe, uducupa dutandukanye tw'imiti, amarinete, umwe muri bo afite ibinini mu ntoki, undi arimo kumwerekera.

Umugore ukuze wambaye umushaana w'umweru n'agapira k'ubururu, yambaye urunigi mu ijosi rufite ibara ry'umweru n'umukara, afite indangururamajwi ifite ibara ry'umutuku mu kaboko k'iburyo, inyuma ye hari imodoka ebyiri ziparitse.

Abantu bahagaze munsi y'igiti harimo abagabo n'abagore, abagabo babiri muri bo umwe afashe ku kagare k'abantu bafite ubumuga, afatanye mu kiganza na mugenzi we iruhande rwabo hari ubwiherero bw'abantu bafite ubumuga ndetse n'utundi tugare.

Abagore bakuze bari mu kibuga benshi muri bo bambaye amajipo y'umukara n'udupira tw'umweru, bose bambaye udupfukamunwa batumanuye munsi y'akananwa, uri imbere muri bo yambaye ikanzu y'igitenge irimo amabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Abagore bari mu murima w'icyayi, babiri muri bo bari imbere y'abandi, umwe yambaye imyenda y'ubururu n'agatambaro k'ubururu, undi yambaye igitenge kirimo umutuku n'igitambaro mu mutwe kirimo umutuku, inyuma yabo hari igitebo barimo gushyiramo icyayi basoromye.

Abantu babiri bari mu cyumba cyo kwa muganga, harimo umuganga wambaye umwenda w'akazi ndetse n'igikoresho cyo kwa muganga mu ijosi ndetse n'undi mugabo ukuze wambaye ishati y'amaboko maremare ya kake, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umweru, imbere yabo hari ameza ateretseho ikayi n'ikaramu. Umuganga arimo gusobanurira umurwayi.

Inzu irimo abagore babiri umumwe ukuze n'undi w'umuforomokazi wambaye imyenda y'akazi ufite ikinini mu ntoki z'iburyo, ndetse n'umukecuru ufite ikirahuri cy'amazi mu ntoki z'iburyo, imbere yabo hari ameza ateretseho agakarito k'imiti.

Umugore n'umugabo bakuze bicaye mu nzu, inyuma yabo hari intebe zikozwe mu biti irimo n'ibirahuri ndetse n'ibikuta by'umweru, imbere yabo hari ameza ariho impapuro zanditseho amagambo mu ibara ry'umukara.

Inzu irimo umusaza, wambaye ishati y'amaboko magufi, irimo uturongo tw'umukara n'umweru, ndetse n'umuforomokazi, w'umuzungu, wambaye imyenda y'akazi n'ibimuranga, ku ibere ry'ibumoso, arimo kumufasha mu myitozo ngororamubiri, bifashisha barimo kugenda.

Icyumba kirimo umugabo ndetse n'umugore, umugabo yicaye ku gitanda, wambaye umupira w'amaboko maremare w'ivu, arimo kunywa amazi, umugore umuhagaze iruhande yambaye agapira k'ubururu, arimo kumuhereza ibinini amusekera.

Umugore n'umwana bicaye mu nzu, umugore wambaye agapira k'umweru k'amaboko maremare ndetse n'umwana wambaye agapira karimo utudomo tw'umukara, imbere yabo hari ameza ateretseho udukinisho two gupanga, nyuma yabo hari akabati k'umweru.

Abagabo babiri bakuze, bishimye bari muri siporo, umwe muri bo yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, afite agacupa k'amazi mu kaboko k'ibumoso, undi yambaye umupira w'umweru n'ipantaro irimo akarongo k'umweru ndetse yiteye n'undi w'umukara mu bitugu, afite agacupa k'amazi y'inyange mu ntoki.

Abantu babiri bari mu nzu, harimo umugabo wambaye agapira k'amaboko maremare k'umuhondo ndetse n'agasengeri k'ivu, wicaye mu kagare k'abafite ubumuga ndetse n'umukobwa umufashe mu kiganza arimo kumusekera.

Umugore ukuze, ufite imvi nyinshi, wambaye amadarubindi n'agapira k'ubururu, akaboko ke k'ibumoso ari kugakoresha atamira imiti, akaboko ke k'iburyo gafite ikirahuri cy'amazi mu ntoki.

Abagore bicaye mu nzu batatu, umwe muri bo afite telefone mu ntoki, abandi bari kuyirebamo, imbere yabo hari ameza ateretseho indodo zitandukanye, ndetse inyuma yabo hari akabati karimo ibitabo n'ibindi bintu.

Inzu irimo abantu babiri umugabo ukuze wicaye mu kagare k'abafite ubumuga, wambaye umupira w'amaboko maremare y'umweru ndetse n'umuganga umufashe ku bitugu, wambaye imyenda y'akazi urimo kumusekera.

Abantu babiri bicaye mu nzu bakuze umugabo n'umugore, imbere yabo hari ameza ateretseho ubwoko bw'ibiribwa butandukanye ndetse biri ku masahani y'umweru n'ikirahure cy'amazi ku ruhande, barimo kurebana mu maso baseka.

Inzu irimo abantu batatu, irimo umukecuru, umusore ndetse n'umukobwa, umusore afite isahani iriho imigati ndetse n'icyuma cyo ku meza, umukobwa afite imyuko ibiri arimo kumwarurira imboga rwatsi.

Umugore uri muri siporo wambaye umupira w'amaboko maremare usa ivu, mu ngofero hasa ibara ry'iroza ndetse na kora y'iroza, aricaye ku gakeka bakoreraho siporo gafite ibara ry'ivu, arambuye amaguru yombi, ahinnye umugongo, amaboko yombi afashe ku maguru.

Abantu babiri bari mu busitani, harimo umukobwa wambaye umwenda w'akazi w'icyatsi, urimo gufungira ibipesi umusaza wicaye mu ntebe, wambaye agapfukamunwa n'ishati y'amaboko maremare y'ubururu, yayihinnye ku maboko.

Abagore babiri bakuze, bari muri siporo, umwe wambaye agatambaro k'umutuku mu mutwe, n'agapira k'amaboko maremare k'ubururu, n'undi usutse inweri, wambaye umupira w'amaboko maremare, ufite akarongo k'umweru ku ruhande, inyuma yabo hari ibiti.

Inzu irimo abantu babiri umugabo n'umugore, umugore arimo guhereza umugabo imiti amufasha ku rutugu akandi kaboko karimo kumuha umuti, ku meza hateretse mudasobwa ndetse n'ikirahuri cy'amazi.

Abantu bicaye imbere y'inzu babasaza bambaye ingofero basa nkaho ari abayisilamu, bafite inkoni bashi hagati yamaguru yabo ndetse kuhande rwabo hateye igiti.

Abantu babiri barimo umugore ukuze, wambaye ishati y'amaboko maremare ndetse n'umuforomokazi wambaye umwenda w'akazi, arimo kumuha ikinini ndetse uwo mugore afashe ikirahuri cy'amazi mu ntoki, agiteretse ku meza.

Abantu babiri bicaye mu nzu, harimo umugabo wambaye agapira k'icyatsi ukuze, ufite imvi mu bwanwa, ndetse mu kaboko ke k'iburyo afitemo ikirahuri cy'amazi gicagase, ak'ibumoso gateze ikiganza; umukobwa umwicaye iruhande ari kumusukira imiti, wambaye imyenda y'abaforomokazi n'ibimuranga ku gatuza.

Umuryango ugizwe na papa, na mama n'abana, umuhungu umwe n'umukobwa umwe ndetse n'akandi kana gato, inyuma yabo hari inzu ndetse n'imodoka ifite ibara ry'umweru bahagaze bafatanye ku rutugu.

Abantu babiri bari mu nzu harimo umusaza ukuze ufite imvi wambaye amadarubindi n'umupira w'amaboko maremare y'ubururu bwijimye, ndetse n'umukobwa wambaye agapira k'umuhondo, ufite agapapuro kanditseho amabwiriza y'imiti mu ntoki ndetse n'ikaramu ku meza imbere yaho hateretse ibinini by'amabara atandukanye, ikirahuri cy'amazi ndetse n'ikayi.

Abagore babiri, bari muri siporo, umwe muri bo arakuze afite imvi mu mutwe, yambaye agapira k'ivu, amaboko yiwe ararambuye, ak'iburyo niko kari imbere, kariho agatambaro k'umweru, undi uri inyuma ye yambaye agasengeri k'ubururu ndetse n'umuhondo na we arambuye akaboko k'iburyo asa n'utwite.

Abantu babiri bicaye mu cyumba gifite amarido y'umweru, umugore w'umuforomokazi wambaye umwenda w'akazi ndetse n'ibimuranga mu ijosi, n'umugabo ukuze wambaye ishati y'amaboko maremare ya shokora, barimo kumupima umuvuduko bifashishije igikoresho cyo kwa muganga giteretse ku meza.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, gishushanyijeho ikirangagantego kiri mu kazeru, hariho ingabo, agaseke ndetse n'ibindi, munsi yaho handitsemo Minisiteri y'ubuzima mu magambo ari mu Cyongereza mu ibara ry'umweru.

Abantu bicaye hanze y'inzu ifite amarangi y'umuhondo wererutse n'inzugi z'umweru, ku ruhande hahagaze abantu batatu, imbere hahagaze abandi batatu bambaye udupira tw'iroza, bafite amashashi y'umweru mu ntoki, imbere yabo hateretse imeza iriho udukombe tw'ubururu ndetse nbandi bantu barimo imbaga nyamwinshi, bicaye ku ntebe z'umweru.

Abantu batandukanye bambaye udupfukawa bose bari kumwe n'abaganga bambaye bikwije, imbere yabo hari ameza ateretseho ibipapuro ndetse na ga z'abaganga n'inshinge umwe muri bo arimo kwandika n'abandi inyuma ye.

Icyapa kiriho abagabo babiri bambaye imyenda y'umukara hose, inyuma yaho hari amagambo ari mu ibara ry'umutuku ndetse n'umubumbe w'isi uri mu ibara ry'umweru n'umutuku, handikishije amagambo y'umukara.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru, gishushanyijeho ibishushanyo bitandukanye ndetse n'amagambo mu mabara atandukanye, kimwe muri ibyo bishushanyo hariho umuforomokazi wambaye umwenda w'akazi, urimo gutera ishinge umuntu, ahandi hishushanyijeho mikoro iri mu ibara ry'umukara ndetse n'umuhondo.

Abagore bari mu nzu y'inama bambaye imipira y'umweru ndetse n'abambaye iy'umukara, imbere yabo hari ameza ariho ibitambaro biri mu mabara abiri, iroza ndetse na kaki imbere yabo hateretse mudasobwa ifite ibara ry'ivu ndetse n'ibitabo na telefone.

Abaganga babiri bari mu cyumba cy'ibagiro, bambaye imyenda y'ubururu bikwije ahantu hose, udupfukamunwa ndetse na ga z'umweru, umwe muri bo mu kaboko k'iburyo afashe icyuma gifite umugozi, ahandi afitemo icyuma gifite ibara ry'umukara.

Icyapa cy'umweru, cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, umuhondo, icyatsi, ndetse byanditse mu magambo arambuye bisobanura ko ari ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC.

Abantu bari mu cyumba cy'inama bamwe bicaye mu mbaga nyamwinshi abandi bicaye imbere yabo, inyuma yabo hari icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi cyererutse cyandikishijeho amagambo y'umweru ndetse n'amafoto y'abantu batandukanye iruhande rwabo hari amazina yabo.

Abantu bishimye barimo kwifotoza bazamuye amaboko yabo bambaye ibibaranga mu ijosi, inyuma yabo hari icyapa gifite ibara ry'ubururu bwerurutse ndetse n'iroza, iruhande rwabo hari intebe zifite ibara ry'umutuku ndetse n'ameza ateretseho amazi.

Inzu iberamo inama, irimo abantu bicaye mu mbaga nyamwinshi ndetse n'abandi bagabo babiri bicaye imbere yabo, bari ku gatuti kariho indangururamajwi ebyiri, ku ruhande rwabo hateretse uducupa tw'amazi, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho ngo : "Hagarika virusi ya Mabaga" ndetse n'itariki byakoreweho.

Abantu bari munsi y'igicucu cy'igiti umwe muri bo aryamye hasi ku gatanda kubururu, abandi baramukikije bamwe bari kureba imiti mu gakarito kavamo imiti. Babiri muri bo bambaye amataburiy, abandi bambaye amajiri afite ibara ry'icyatsi undi ahagaze iruhande rw'igiti.

Icyapa kiriho ibintu bitandukanye. Hariho igikoresho bifashisha kwa muganga bapima umutima, hariho ikayi yanditseho indwara zitandura, mu magambo y'umukara, ndetse n'ikaramu ku ruhande, ifite ibara ry'umukara.

Shitingi ifite ibara ry'umweru, imbere yaho hateretse akameza kariho ibikoresho byo kwa muganga, ku ruhande hahagaze abaforomokazi babiri ndetse n'umurwayi umwe wasamye barimo kumureba mu kanwa.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru, cyandikishijweho amagambo y'umukara n'umweru, hariho ubwoko bw'indwara zitandukanye nka SIDA, Malariya ndetse n'izindi, yandikishijwe ibara ry'umweru mu tubogisi tw'ubururu.

Abantu bari mu cyumba k'inama, imbere yabo hari ameza akikijwe n'intebe ateretseho ibikoresho bitandukanye, bamwe muri bo baricaye abandi barahagaze, buri wese afite agatabo mu ntoki, inyuma yabo hari icyapa kiriho imishinga itandukanye.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru n'ubururu, cyandikishijweho amagambo y'umuhondo, ubururu n'umweru, munsi hari amatariki atandukanye, ku ruhande mu nguni hashushanyije umugabo arimo kutwereka mu bwonko bwe imbere.

Abana b'abanyeshuri bari kugenda mu muhanda bambaye imyenda y'ishuri amashati y'umweru, inyuma yabo hari ibiti ndetse n'amazu, bafite icyapa kiri mu ibara ry'umweru cyandikishijweho amagambo y'umweru mu karongo k'umutuku ibyo kwirinda sida.

Inzu yo kwa muganga babagiramo, irimo abaganga ndetse n'abaforomo, umurwayi aryamye ku gitanda acometseho insinga zimuhuza na mudasobwa ziri kubikuta zerekana aho bari kubaga.

Abantu bahagaze mu kibuga bambaye imyenda y'amabara atandukanye, inyuma yabo hari icyapa kirimo ibara ry'ubururu cyandikishiho amagambo mu ibara ry'umweru ndetse ku ruhande hari imodoka ifite ibara ry'umweru.

Ikirangantego kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru, hagati y'ubururu n'umweru harimo amagambo yandikishije ibara ry'umukara, ndetse hagati Hashushanyijemo ikarita y'u rwanda n'amagambo yanditse mu nyuguti nkuru z'umukara.

Abantu bari mu cyumba cy'inama, harimo abicaye mumbaga nyamwinshi ndetse n'abandi ba bicaye imbere bicaye imbere y'agate gakozwemo mu kirahuri, umwe muri bo afite indangururamajwi h'umugore inyuma yaho, hari icyapa kiri mu ibara ry'iroza, ubururu cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru, kigaragaza umunsi mpuzamahanga wahariwe diyabete, byanditswe mu magambo y'umukara ndetse n'icyatsi, munsi yaho hashushanyije inzu izwi nka konvenshoni, iri mu iterambere ry'u Rwanda, iruhande rw'iyo nzu hashushanyije umukobwa wambaye agapira k'umutuku n'ijipo y'ubururu.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru cyanditseho amagambo y'icyatsi, umukara, ari mu ururimi rw'icyongereza, muri buri gika hagiye haciyemo akarongo gatambitse.

Inzu yicayemo abana batatu, umugore ndetse n'umugabo. Iruhande rwabo handitse amagambo ari mw’ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru, inyuma yabo har’utubati.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, cyandikishijweho amagambo y'umweru, munsi hari ibigo bafatanyije, harimo nk'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, harimo kaminuza y'u Rwanda, harimo umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu ndetse n'umuryango ushinzwe ubuzima ku isi.

Inzu ifite ibara ry'umweru yubikishijwe amabuye y'amakoro, ifite amadirishya y'ibirahuri, imbere yaho hahagaze abantu harimo n'umuganga wambaye ikoti ry'abaganga rifite ibara ry'umweru, iruhande rw'aho hari ubusitani buteyemo amoko y'indabo atandukanye.

Inzo yo kwa muganga, irwariramo abarwayi, ifite ibitanda bitandukanye, ishasheho amashuka y'icyatsi, bikozwe mu byuma, buri gitanda kigiye gitandukanyijwe n'ikindi na rido zifite ibara ry'ubururu.

Inzu isize amarangi y'umuhondo, imbere yaho hari icyapa cy'umweru cyandikishijweho amagambo y'umutuku n'umukara ndetse munsi hari ikirangantego cy'Ikigo cy'Igihugu Gishinzwe Ubuzima mu Rwanda, imbere y'iyo nzu haparitse imodoka.

Inzu ifite ibara ry'umweru amabati y'umutuku ifite amadirishya y'ibirahuri, ku ruhande rwaho hari akayira gateyemo indabo z'ubwoko butandukanye ndetse harimo n'ururabo rukozwe mu bwoko bw'insina, ku ruhande hari indi nzu na yo ifite amabati y'umutuku.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye iriho icyapa gifite ibara ry'umweru cyandikishijweho amagambo y'icyatsi agaragaza ko ari ibitaro, munsi yanditseho serivisi batanga, imbere yaho hahagaze abantu.

Inzu irimo abana batandukanye, babiri muri bo bicaye ku dutebe tw'ibyuma, hagati yabo hariho ameza ateretseho akabindi karimo indabo, imbere yabo hari uri kurwakiriro wambaye agapira k'ubururu n'ipantaro y'umukara ari kuvugana n'abakobwa babiri barimo.

Inzu isize amarange y'umweru, ifite icyapa gishushanyijeho umusaraba ndetse n'amagambo y'icyatsi, hasi haparitse imodoka zo mu bwoko butandukanye harimo izitwara abarwayi ndetse n'izitwara abantu bisanzwe, ku ruhande hahagaze umugabo wambaye agapira k'umutuku n'ipantaro y'umukara arambuye akaboko k'iburyo.

Inzu bakoreramo imyitozo ngororamubiri izwi nka siporo, irimo ibikoresho bitandukanye nk'ibyo bakoresha biruka, ibyo bakoresha kugira ngo ibinure bikomere, inyuma yaho hari ibiti by'ubwoko butandukanye.

Inzu igaragaza ibitaro by'abana, ifite imiryango y'ibirahuri, ku ruhande hasize ibara ry'umweru, ndetse n'amatara abiri ku mpande zombi, iruhande rw'urugi, hejuru hari icyapa kigaragaza ko ari ibitaro by'abana, kiri mu mabara atandukanye, umutuku, ubururu, umuhondo, icyatsi.

Umuntu uri mu kagari k'abafite ubumuga gafite ibiziga bibiri ndetse n'aho kwicara hafite ibara ry'umukara, wicaye imbere y'inzu isize irangi ry'umweru ndetse n'imbere ye hari ubusitani n'ikigega ndetse n'imisozi.

Inzu irimo ibikoresho bitandukanye, irimo ibifite imashini, ibindi bifite udutanda, ibindi bifite ibiziga iruhande hari ameza y'umukara hariho utubati.

Abantu babiri harimo umugabo ndetse n'umugore wambaye imyenda y'ababaganga, umugabo aryamye ku gatanda gafite ibara ry'umukara, arambuye akaboko afunze ingumi, undi amuziritseho akagozi k'ubururu ari gutanga amaraso.

Inzu ifite amabati y'umutuku hejuru yubakishijwe amakaro, isize irangi ry'umuhondo, imbere yaho haparitse amamodoka, ku ruhande rwaho hari imihanda igiye inyuranyuranyemo ndetse n'ubusitani, hari n'abantu bari kugenda muri uwo muhanda.

Inzu ifite ibara ry'umweru ifite amakaro, irimo ibitanda byo kwa muganga bitandukanye, buri gitanda, gifite amapine; iruhande rwabo hari akameza baterekaho ibyo kurya, ndetse n'amarido agiye abatandukanyije, atabonerana ndetse n'ibara ry'umuhondo.

Inzu isize irangi ry'iroza, ifite inkingi zisize irangi ry'ivu, imbere y'umuryango hakaba hateretse intebe zifite ibara ry'umutuku n'agasanduku k'ibitekerezo, ku ruhande rwabo hari icyapa kiririmo ibara ry'umweru, cyandikishijweho amagambo y'umukara.

Ikigo gishinzwe kwita ku barwayi barwaye kanseri, ifite inzu isize ibara ry'umuhondo n'ibirahuri byijimye, imbere yaho hari ubusitani buteretsemo akabindi gasize ibara ry'umutuku gateyemo igiti.

Ibitaro bya Nyarugenge bisize ibara ry'umweru, ndetse n'ubururu hariho ikimenyetso cya piramide, iruhande rwaho hateye ubusitani burimo indabo zitandukanye, ku rundi ruhande hari inzu ifite ibirahuri byijimye.

Inzu icuruza imiti, ifite umuryango usize ibara rya kaki. Iruhande hari icyapa kigaragaza ko ari inzu icuruza imiti, kiri mu ibara rya move n'umweru, mo imbere harimo ubwoko bw'imiti itandukanye, imbere yaho haparitse imodoka.

Icyumba cyo kwa muganga kirwariramo abarwayi, kirimo igitanda gifite imisego, igitanda gikozwe mu cyuma, ku ruhande rw'aho hari mudasobwa icometseho ibitsinga, inyuma y'aho hari igishushanyo kiri mu busitani ndetse n'igiti, inyuma hari inzu yitaruye.

Inzu ifite amabati y'ubururu, isize irangi ry'umuhondo werurutse, imbere yaho hari icyapa kigaragaza ko hari ikigo nderabuzima cya Shagasha, gifite amadirishya asize irangi ry'umukara, hicaye abagore babiri bafite abana.

Inzu isize amarangi y'umweru, ndetse n'ivu, irimo ibikoresho byo kwa muganga bitandukanye, imwe muri cyo gifite ibara ry'ubururu, ndetse n'umweru, umuforomokazi wambaye umwenda w'akazi ufite ibara ry'umweru, arimo gukoramo imbere.

Inzu yubakishirijwe amabuye y'amakoro, iruhande rwaho hari ubusitani ndetse n'indabo z'ubwoko butandukanye harimo nk'iz'iroza, mu muhanda hari kugendamo umugore ufashe akana akaboko ndetse n'undi mwana uri imbere yabo ufashe ibase mu ntoki.

Umuhungu wambaye, ishati yumweru, irimo utudomo tw'umukara, ndetse n'isengeri, wamanuye, ishati ku kaboko k'ibumoso, ndetse n'umuforomo wambaye, umwenda w'akazi n'ibimuranga mu ijosi, ndetse na ga mu ntoki, zombi, urimo kumutera urushinge.

Inzu icuruza imiti, mu imbere harimo imiti y'ubwoko butandukanye irimo udukarito, iri mu macupa, mu kabati gafite ibara ry'umweru n'icyatsi, hejuru hari icyapa kiri mu ibara ry'umweru cyanyandikishijeho amagambo y'icyatsi aranga iyo nzu icuruza imiti.

Inzu bavuriramo abarwayi batwite isize amarangi y'umweru hejuru hariho icyapa kibigaragaza, imbere yaho hicaye abantu bicaye ku ntebe z'ibiti ndetse n'ameza ariho igitambaro cya oranje, umwe muri bo arahagurutse arimo kuvuga.

Inzu y'ibitaro bivura amaso, isize irangi ry'umweru, imbere yaho hari icyapa gishushanyijeho ijisho, ku ruhande handitse izina ry'ibyo bitaro, bifite imiryango ibiri, ikozwe mu biti.

Abantu batandukanye barimo abagabo n'abagore, bahagaze imbere y'urwakiriro, mo imbere harimo ibipapuro byanditseho n'amagambo y'umukara ndetse n'abantu bari kuri mudasobwa, umwe muri bo ahetse umwana mu gitenge.

Igipangu kirimo umwanya rikozwe mu byuma, gisize irangi ry'umukara mo imbere harimo inzu yubatswe n'amatafari ahiye, ifite inkingi eshatu zisize ibara ry'umweru, iruhande rwawo hari indi nzu ifite imiryango y'ubururu n'amadirishya.

Abantu bahagaze, barimo abafite ubumuga bwo kutabona bafite n'inkoni bifashisha iyo bagenda, bambaye udupfukamunwa, bahagaze imbere y'inzu ifite amabati y'ubururu, yubakishijwe amatafari ahiye, yanditseho amagambo mu ibara ry'ubururu agaragaza ko ari ibitaro.

Inzu isize ibara ry'umuhondo ryererutse ifite amabati y'umutuku, kuruhande rwaho haparitse imodoka ndetse hari n'abantu barimo kugenda, mbere y'aho hari umuntu ushinzwe umutekano wambaye imyenda y'akazi, iruhande rwe hari ibyapa biri mu mabara atandukanye nk'ubururu n'icyatsi.

Inzu yubakishije amatafari ahiye ifite amadirisha y'umweru ndetse n'inkingi eshatu z'umweru, hejuru handitse mu rurimi rw'Ikinyarwanda inzu y'ababyeyi, imbere yaho hateye ubusitani burimo indabo.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare y'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara, wicaye munsi y'igiti kinini gifite amababi y'icyatsi, iruhande rwe hari ubwoko bw'indabo zitandukanye ndetse n'inyuma ye hari inzu.

Inzu ifite amabati y'ubururu isize amarange y'umweru, imbere yaho hari icyapa cyandikishijweho n'amagambo ari mu ibara ry'umukara kigaragaza ko ari ikigo nderabuzima cya Kinyinya, iruhande rwaho hasize amabara ya oranje.

Inzu ifite ibara ry'umweru irimo intebe, ameza ateretseho mudasobwa zifite ibara ry'ivu ndetse n'agapapuro, iruhande rwaho hari akabati kariho ubwoko bw'imiti itandukanye ndetse ku gikuta hari icyapa gishushanyijeho abantu babiri.

Inzu irimo ibintu bitandukanye harimo nk'agatanda, intebe ifite ibara ry'umutuku ndetse hariho aho bakarabira intoki, hariho impapuro ndetse n'amadirishya n'ibindi.

Icyapa kigaragaza ibitaro bya Kabgayi n'umuhanda winjirayo muri uwo muhanda harimo amatara abiri maremare ndetse n'inzu ifite amabati yubakishijwe amatafari ahiye, ifite amadirishya y'umweru ku ruhande rwawo hari abantu barimo kugenda ndetse hakikijwe n'ibiti.

Inzu yo kwa muganga, irimo ibintu bitandukanye byifashishwa n'umurwayi, harimo nk'igitanda ndetse n'intebe, akabati, aho bogera intoki ndetse n'aho biyumukiriza.

Inzu ifite imiryango itandukanye yanditseho rimwe, kabiri, gatatu ndetse hejuru hari icyapa kiranga aho umuntu yanyura hari utwambi tubiri tuzamuye n'utundi tubiri dutambitse.

Inzu yubatse mu yindi nzu ifite imiryango ndetse n'amadirisha buri nguni harimo kwakaho agatara gasa icyatsi ifite ibitsinga bicometse ku ruhande ndetse n'icyapa kigaragaza icyo ikorerwamo byanditse mu ibara ry'umukara.

Inzu ifite imiryango y'umweru n’ibirahuri, ku ruhande rwaho hari intebe itambitse ifite ibara rya shokora ikozwe mu giti, iruhande rw'iyo ntebe hateretse utubindi tubiri turimo indabo ndetse n'icyapa kigaragaza ko ari ibitaro bivura abantu byifashishije siporo.

Inzu iseze irange ry'umuhondo ryererutse ku ruhande ifite ibirahuri, imbere yaho hari icyapa kiri mu ibara ry'umweru kigaragaza ko ari Ibitaro bya Sangwa, ku ruhande rw'iburyo hari ibara ry'icyatsi ibumoso hari ibara ry'umuhondo ryandikishijweho amagambo y'umukara.

Inzu yo kwa muganga bavuriramo amaso, ifite umuryango w'ibirahuri, ku ruhande hasize ibara ry'umukara, hari igishushanyo cy'abantu babiri bambaye amadarubindi ndetse umuryango winjira hashushanyijeho ijisho, mo imbere harimo ubwoko butandukanye bw'amadarubindi n'umugore wicaye mu nguni.

Inzu bakiriramo ababyeyi batwite, ifite amabati y'ubururu, isize akarangi k'umweru ku ruhande yubakishijwe amatafari ahiye, imbere yaho hari umugozi utambitse uva ku nkingi imwe ujya ku wundi isa ubururu, iruhande rwaho hateretse utubindi tw'ubururu duteyemo ibiti.

Inzu ifite ibara ry'umweru, ifite amadirisha y'ibirahuri byijimye bisa ubururu, imbere yaho hateye ibiti, hejuru hari icyapa kigaragaza ko ari ibitaro.

Inzu yo kwa muganga isize amarangi y'umweru ku gikuta hariho isaha, ku ruhande hari amarido afite ibara ry'umuhondo, muri iyo nzu harimo agatebe gafite amapine ndetse n'agatanda ndetse n'aho bapimira.

Ishuri ririmo abantu batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore imbere hahagaze umugabo ufashe umwana ku rutugu rw'umunyeshuri wambaye inifomu amuhaye igishushanyo kiriho amenyo amwerekera uko boza amenyo.

Abagore babiri bari mu cyumba cyo kwa muganga bashiramo ababyeyi bamaze kubyara, umwe wambaye imyenda y'akazi, ifite ibara ry'umweru n'akanozasuku k'ubururu, n'agapfukamunwa k'ivu, n'undi iteruye umwana mutoya ukivuka, wambaye agasengeri ka move

Inzu y'ikigo nderabuzima cya Kigina, ifite icyapa cy'umweru imbere cyandikishijweho amagambo y'umutuku, igipangu cyaho gikozwe mu byuma mo imbere harimo inzu ifite amabati y'ubururu, ndetse asize irangi ry'umuhondo werererutse, ku ruhande rw'icyo gipangu hahagaze umugore uhetse umwana, witeye agashura mu bitugu.

Inzu iraramo abarwayi, ifite udutanda dusize iba ry'umweru n'ubururu, dusasheho amashuka y'umweru, hejuru ya buri gitanda hariho inzitiramibu ifite ibara ry'umweru ndetse n'amarido afite ibara ry'ubururu, itandukanyijwe n'igiti kiri hagati, ibumoso ndetse n'iburyo hari ibitanda.

Ibyuma byo kwa muganga bitandukanye, buri cyuma kiriho mudasobwa ndetse n'insinga, imbere yaho hateretse akajerekani gafite ibara ry'umweru, ku ruhande rwaho hari intebe ifite ibara ry'umuhondo werererutse, ifite amapine ni imashini eshatu ndetse hari n'isaha ku gikuta, gifite ibara ry'umuhondo.

Inzu ifite ibara ry'umuhondo, ifite ikigega hejuru y'inzu, imbere yaho haparitse imodoka eshatu, hateye ibiti, ndetse ku ruhande rwaho hari icyapa kigaragaza ko ari ibitaro.

Inzu yo kwa muganga isize irangi ry'umweru, icanyemo amatara, harimo ibikoresho byo kwa muganga bitandukanye, harimo za mudasobwa ndetse n'ibindi, hafi ya byose bifite amapine ndetse bicometseho n'insinga.

Inzu ifite amabati y'ubururu isize irange ry'ubururu bwererutse, imbere yaho haparitse imodoka ndetse hahagaze abantu, ku ruhande rwaho hari ubusitani buteyemo igiti kikiri gito.

Inzu ifite irangi ry'umweru imbere yaho hari icyapa kigaragaza ko ari ibitaro bya Nyarugenge, iruhande rwaho hateye ubusitani ndetse n'akayira kajyayo gakozwe mu mapave, ku ruhande rwaho hateye igiti.

Inzu irwariramo abarwayi, irimo igitanda kiryamyeho umukobwa wambaye ingofero y'umukara n'agasengeri ka kaki, wiyoroshe ikiringiti k'icyatsi, iruhande rwe hahagaze umuganga wambaye umwenda w'abaganga, urimo kumusuzuma amufashe ku rutugu, inyuma yabo haryamye undi murwayi wambaye imyenda y'umweru.

Umugabo wicaye ku Gatebe k'umweru n'ivu, wambaye ishati y'iroza y'amaboko maremare, imbere ye hari ameza ateretseho mudasobwa ifite ibara ry'umukara, muri iyo mudasobwa harimo amafoto y'abantu babiri, bisa nk'aho bari gukorera inama ku mbuga nkoranyambaga, iruhande rwe hari ibikoresho byo kwa muganga bitandukanye.

Icyapa kiriho amabara atandukanye hejuru hariho ibara ry'ubururu ryandikishijwemo amagambo y'umweru ari mu rurimi rw'icyongereza, buri bara rigiye rifite inyuguti irihagarariye harimo nka ba, ra,e,a,ka na sa ndetse n'amafoto biteganye.

Umuntu wambaye agasengeri k'icyatsi kerurutse, uri kureba mu mpinga z'imisozi, akaboko ke kamwe gafashe munce z'amaboko akandi gafashe mu nkokora y'izindi, asutse inweri ni umwirabura.

Ameza ateretse ibintu bitandukanye harimo nk'icupa ry'amazi, harimo igikoresho hifashisha bapima metero, harimo imbuto z'ubwoko butandukanye nka pome, amaronji, harimo ibikoresho bifashisha mu myitozo ngororamubiri.

Inzu bakoramo imyitozo ngororamubiri, irimo ibikoresho bitandukanye, harimo nk'udutanda, gafite ibara ry'umukara ndetse n'ubururu, iruhande rwaho hari abantu, ndetse hari kwaka amatara.

Umukobwa muto muto w'umwirabura wambaye agasengeri k'umweru n'ipantaro y'ubururu uzamuye amaboko yombi, ivi rye rirashinze ryerekeye inyuma, irindi rishinze ryerekeye imbere, iruhande rwe hari indabo.

Abantu babiri bari mu cyumba cyo kwa muganga. Umwe muri bo ni umuforomokazi wambaye imyenda y'akazi ndetse na gants z'umweru. Imbere ye hari umuntu arigufasha mu myitozo ngororamubiri wambaye ikabutura n'agapira k'umweru.

Umuntu uri muri siporo wicaye hasi wambaye agasengeri k'umutuku, ipantaro y'umukara n'inkweto z'umutuku, akaguru k'ibumoso karahinnye ak'iburyo kararambuye, akaboko k'iburyo gafashe munsi y'ikirenge cy'iburyo, akandi gafashe ku ivi.

Umugore uvuye muri siporo uri kunywa amazi, mu icupa ribonerana rifite umufuniko w'umukara, afatishije akaboko k'ibumoso, ari kunywa amazi araramye, inyuma ye hari kurasa akazuba.

Ubwoko bw'imipira butandukanye, harimo iyo bakinisha mu mikino y'amaboko izwi nka rugubi, harimo iyo bakinisha mu mikino y'umupira, harimo utudenesi bakinisha muri tenisi ndetse n'ibindi.

Agakoresho bifashisha mu myitozo ngororamubiri, hejuru gafite akantu ko gufataho kameze nk'ako kubgitiyo ndetse hasi gafite ibiziga by'ifite ibara ry'umukara bine.

Ameza ariho imiti itandukanye yifashishwa mu buvuzi, harimo uducupa, hariho ibipfuko, hari ga, hari ibiri mu mashashi, hari ibyanditseho bikoreshwa mu ku kuvura abantu bagize imvune.

Umugabo uri muri siporo utare icyuma wambaye aga kabutura k'umukara, iruhande rwe hari ubwoko bw'ibiribwa butandukanye, harimo inkoko, mineke, inanasi, amagi, ibishyimbo, imboga ndetse n'ibindi by'ubundi bwoko.

Ameza ariho ibintu bitandukanye harimo imiti, ifite amabara abiri umweru n'umutuku, harimo imbuto z'ubwoko butandukanye nk'ubunyobwa, tungurusumu, imineke, amaronji, inanasi ndetse n'ibindi byuma bakoresha bapima ku ruhande.

Ameza hariho ibikoresho bitandukanye harimo isahani ikozwe mu ishusho y'umutima iteretseho ubwoko bw'imbuto butandukanye harimo nk'inkeri, inyanya, n'ibitunguru, ku ruhande rwabo hari igikoresho cyo kwa muganga bapimisha umutima ndetse n'imigozi yo gusimbuka muri siporo n'urukweto.

Umugore wambaye agasengeri k'icyatsi, n'akabutura k'ubururu, n'inkweto zifunze zirimo amabara atandukanye, ufite imisatsi arimo gusunika icyuma afashe ku nkingi ebyiri.

Imashini yo kwa muganga ipima uko umutima uri gutera, ifite ibara ry'umweru, imbere muri yo handitse imibare iri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'uturongo tugiye twigoronzoye.

Umukobwa wicaye ku gakeka bakoreramo siporo ka kijyambere gasa ivu, wambaye imyenda y'umutuku, isengeri ndetse n'ipantaro, amaguru ye yombi arahinnye ibiganza bye byombi bifashe amaguru, inyuma ye hari intebe z'umukara ndetse n'indi ikozwe mu biti.

Umuntu wirabura wambaye agapira k'amaboko maremare, ariko wagahinnye, akaboko ke k'iwe mu nkokora kariho ishashi ifite ibara ry'ubururu, ndetse n'umweru ku kumuzenguruko, afatishije ikiganza ku kandi kaboko.

Abantu babiri, bari mu kibuga, umwe wambaye isengeri y'umutuku ifite akarongo k'umweru ndetse n'umubare mu gatuza, n'undi umu ufashe ikiganza ndetse no mu mbavu wambaye ijire y'icyatsi ,bigaragara ko atanga ubutabazi bw'ibanze, n'agapira k'umweru.

Abantu babiri, umwe uryamye azamuye ivi ryiwe, undi wambaye itaburiya y'abaganga ndetse wambaye n'akantu mu ijosi gapima uko umutima utera, amukojejeho ibiganza byombi, arimo kumukanda mu ivi akoresheje ibiganza byombi.

Icyapa cyanditseho amagambo y'ubuvuzi atandukanye, harimo asa ubururu, icyatsi, umuhondo, umukara, hejuru handitse amagambo y'Icyongereza Repubulika y'u Rwanda ndetse n'ibitaro bya gisirikare by'u Rwanda.

Inkweto z'ibirenge byombi akamoso ndetse n'akaryo, zifite ibara ry'umukara, zifite imashini ku ruhande ndetse n'udutoboro banyuzamo amarase. Rumwe muri rwo rw'akaguru k'iburyo rufite agapapuro k'umweru kagaragaza ko ziri nshyashya, kanditseho amagambo y'umukara.

Umukobwa muto muto uri muri siporo, wambaye agasengeri ka move, wambaye ekuteri mu matwi zifite ibara ry'umweru, mu kaboko ke k'ibumoso afashemo icupa, ari kunywa amazi ndetse hari n'igikoresho gipima umuvuduko kimuziritse ku kaboko gifite ibara ry'umukara.

Ameza ateretseho ibintu bitandukanye, harimo nk'agasekezo wakoreraho siporo, gateretseho amazi, isume, isahani iriho amagi, inyama ndetse n'indi iriho imbuto, n'imineke, n'inkeri, n'indi iriho imboga nk'amashu n'ibitunguru, n'ibindi.

Umukobwa wambaye kora y'iwe n'agasengeri k'icyatsi uri muri siporo wunamye, akaboko k'iburyo agashize inyuma, akaguru k'ibumoso agashyize imbere, akaboko k'ibumoso gafashe munsi y'ikirenge.

Umuntu uri muri siporo wambaye agasengeri k'umukara na kora y'umukara n'inkweto z'umutuku, wicaye ku gakeka bakorera siporo, akaguru kamwe karahinnye, akandi kararambuye, ibiganza byombi bifashe mu kaguru karambuye, iruhande rwe hatetse icupa ry'amazi.

Umukobwa wirabura uri muri siporo wambaye agasengeri k'ivu na oranje ndetse n'ipantaro y'umukara ahese umugongo amaguru ararambuye, amaboko yombi afashe hasi umutwe uraramye, iruhande rwe hari utubindi turimo indabo.

Umugabo uri muri siporo wambaye agapira k'umuhondo kanditseho n'amagambo y'umukara n'umutuku, arambuye akaguru k'iburyo amaboko yombi agafasheho ak'ibumoso karihinnye, inyuma ye hari ibiti ndetse n'indabo.

Akabogisi karimo ibikoresho byo kwa muganga bitandukanye, harimo nk'ibipfuko, impakasi, harimo imiti y'ubwoko butandukanye, irimo udukarito dufite amabara nk'icyatsi, oranje, umuhondo n'umutuku.

Icyapa kiriho ibikoresho bitandukanye biba biri mu kabogisi bifashisha mu butabazi bw'ibanze nk'imakasi, imiti yoza ibisebe, ibinini, inshinge ndetse n'agakapu kariho umusaraba mu ibara ry'umutuku.

Umuntu uri muri siporo, wambaye agasengeri k'umukara n'ikabutura y'umukara, amasogisi y'umweru n'inkweto z'ubururu bwijimye, akaguru kamwe kari hasi, akandi arakazamuye agashyize ku biti, amaboko yombi afashe kuri ako kaguru kazamuye.

Umugabo uhagaze mu nzu bakoreramo imyitozo ngororamubiri, wambaye agapira k'umukara gashushanyijeho ibishushanyo imbere ndetse n'ipantaro ya kaki, ifite akabara k'umukara ku ruhande, uteruye icyuma gifite ibiziga bibiri, hagati harimo icyuma, akoresheje amaboko yombi, agiteruriye mu mayunguyungu.

Igikoresho cyo kwa muganga bifashisha bapima uko umuntu ameze mu mubiri. Hejuru hari utwo bashyira mu matwi dufite ibara ry'umukara ndetse n'umugozi ufite ibara ry'ubururu. Hasi hari ako bafatisha ku nda.

Umugabo uri muri siporo wirabura wambaye agapira k'umukara ufite agasume k'umweru mu bitugu, akaboko ke k'iburyo gafashe icupa ry'amazi, arimo kunywa amazi araramye.

Umugabo wambaye agapira k'amaboko magufi k'umukara, ufite mu kaboko ke k'iburyo icupa ry'amazi ribonerana rifite umufuniko w'ubururu werurutse urimo kuyanywa, iruhande rwe hari ibiti.

Umuntu wambaye imyenda ya siporo, agapira ndetse n'ipantaro, agapira kanditseho makumyabiri na rimwe, amaguru ye yombi hariho ibipfuko ndetse n'ibitinga, inyuma ye hahagaze abandi bakinnyi.

Icyapa kirimo amashusho atandukanye, ari mu mabara atandukanye. Kirimo ishusho y'ubururu n'umugabo uri kwiruka, mu ishusho y'umutuku n' musaraba w'umweru, mu ishusho ya shokora ni ikiganza gifashe ikindi, mu ishusho y'icyatsi ni n'umugabo wicaye hasi.

Abantu bari mu kibuga cy'umupira, babiri bari gutanga ubuvuzi bw'ibanze, umugabo n'umugore bambaye amasengeri y'akazi ndetse n'umukinnyi umwe uryamye hasi barimo kumumasa, iruhande rwabo hahagaze abandi bakinnyi babiri muri bo bifashe mu mayunguyungu.

Abantu babiri bari mu nzu harimo umwirabura ndetse n'umuzungu, umwirabura aryamye ku gatanda, yambaye agapira k'amaboko maremare k'umweru n'ikabutura ifite ubururu bwijimye, undi yicaye iruhande rwe mu maguru ye, akaguru ke k'ibumoso yakazamuye agashyira ku rutugu rw'uwo muzungu. Iruhande rwabo hari inzu ifite ibirahure.

Agacupa kavamo ibisukika gafite ibara ry'umweru, gafite igishishwa cy'umukara cyandikishijweho amagambo y'umutuku, ndetse n'umweru, ku ruhande hari umukondo bafatamo ndetse n'aho bakanda kugira ngo ibirimo bisohoke.

Akabogisi karimo imiti y'ubutabazi bw'ibanze yo mu bwoko butandukanye, harimo ibipfuko bifite amabara atandukanye, imakasi ndetse n'imiti y'amazi.

Igishushanyo kiriho ubwoko butandukanye bw'ibiribwa, harimo nk'amashu, amaronji, karoti, pome ndetse n'izindi mboga rwatsi, ku ruhande rwaho hari umuntu uri muri siporo, wambaye imyenda ya siporo, isengeri ndetse n'ikabutura urimo kwiruka.

Ibikoresho byo kwa muganga bitandukanye, birimo nk'ibipfuko, imiti, ibipima umuriro, inshinge, ibinini ndetse n'ibindi byongera umwuka, imakasi, ga ndetse n'aho babitwara.

Akadege gato kifashishwa mu kugemura amaraso gafite ibara ry'umutuku gatwaye, agapfunyika gafite ibara ry'umweru gashushanyijeho umusaraba uri mu ibara ry'umutuku inyuma yaho hari ibiti.

Ibikoresho byo kwa muganga bitandukanye, harimo nk'imiti, ibipfuko, imakasi, indodo, ibikwasi ndetse n'akabokisi kari mu ibara ry'umutuku, gashushanyijeho umusaraba batwaramo imiti yo mu butabazi bw'ibanze.

Abantu babiri bahagaze mu kibuga umwe muribo yambaye agapira k'ubururu n'ipantaro y'umukara afite umupira mu ntoki undi yambaye agapira k'umuhondo n'ikabutura y'umukara ari ku gakoresho kamufasha kugenda.

Icyapa cyamamaza, kiriho agakoresho bifashisha mu myitozo ngororamubiri, cyandikishijeho amagambo y'icyatsi cyererutse, kirimo kwamamaza amafaranga kigura ndetse hasi handitse icyo yagufasha.

Umugabo uri muri siporo wambaye agasengeri k'ubururu bwijimye, ipantaro y'umukara irimo akarongo k'ivu, inkweto z'umweru, akaguru ke k'iburyo karahinnye, ak'ibumoso kagiye inyuma, amaboko ye yombi afashe ku kaguru gahinnye.

Umugabo w'umwirabura ufite ubwanwa wambaye agasengeri k'icyatsi uri muri siporo wasamye uri kunywa amazi akoresheje akaboko ke k'iburyo iruhande rwe hari imisozi.

Igikoresho cyifashishwa, igihe umuntu yahuye n'imvune, kikamufasha kugenda kizwi nk'imbago, gifite aho kwinjiza akaboko hasa nk'ivu, aho gufata hasi umukara, kiri mu bwoko bw'inkoni.

Umugore uri muri siporo wambaye agasengeri k'icyatsi, ipantaro y'bururu, inkweto z'umweru zirimo n'utundi tubara, akaboko ke k'iburyo kararambuye kari imbere, akaguru ke k'ibumoso yagahinnye agafatisha akaboko k'ibumoso.

Ibikoresho byifashishwa mu buvuzi butandukanye: harimo insimburangingo basimbuza akaguru, harimo igishushanyo kigaragaza ibice by'umuntu, harimo igikapu, harimo imakazi, harimo amarinete, ndetse n'ibindi bitandukanye.

Inzu irwariramo abarwayi rusange, ifite ibara ry'umuhondo, ifite inzitiramibu, bimwe muri ibyo bitanda haryamyeho umugore wambaye igitenge cy'ubururu uri kumwe n'akana gatoya kambaye agakanzu k'iroza, inyuma yabo haryamye undi murwayi.

Abagabo babiri umwe urimo gufasha undi gukora imyitozo ngororamubiri, umwe yambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'ubururu undi yambaye itaburiya y'abaganga ifite amaboko maremare isa umweru, amufashe ku kaboko karimo agakoresho bifashisha mu myitozo ngororamubiri.

Agakarito kavamo igikoresho bifashisha kwa muganga igihe barambura umuntu wagize imvune gafite ibara ry'umweru kandikishijweho amagambo y'umukara ndetse n'ubururu iruhande rwako gakoresho bagakuyemo bagateretse k'uruhande gafite ibara ry'umweru n'umutuku n'umukara.

Umugore uri muri siporo wambaye agasengeri k'umweru n'ipantaro y'umukara, i ruhande rwe hari imbuto zitandukanye zirimo nk'imineke, pome, amaronji n'inkeri.

Icyapa kiriho abakinnyi batatu b'umupira ukinishwa amaboko uzwi nka rugubi, umwe muri bo afite umupira, undi ashaka kuwumwaka, hejuru yabo hari amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru, ari mu cyongereza ndetse no hasi.

Umugabo uri muri siporo wambaye agapira k'ubururu n'ipantaro y'umweru ku kaboko k'ibumoso gafashemo mayunguyungu hariho agatambaro k'umweru akandi kaboko k'iburyo gafashe icupa kariho agatambaro k'umukara ndetse yambaye nk'ibikoresho bakoresha bumva imiziki mu ijosi.

Umukobwa w'umwangavu, uvuye muri siporo, wambaye isengeri y'ivu, ifite akarongo k'umukara, mu bitugu bye hari isume ifite ibara ry'umukara, ndetse mu kaboko k'iburyo afashe icupa ry'amazi, arimo kunywa amazi, yambaye amaherena.

Ubwoko bw'ibikoresho byifashishwa muri siporo butandukanye, harimo nk'ibyo baterura mu maboko, harimo nk'ibikomeza ibiganza, ku ruhande hateretse ubwoko bw'ibiribwa biri ku masahani atandukanye, harimo nk'imboga, imbuto ndetse n'ibikomeza umubiri nk'amagi, romaje, inyama ndetse n'ibindi.

Ikibabi cy'umuti wifashishwa mu buvuzi gakondo uzwi nk'umuravumba, gifite ibara ry'icyatsi giteretse hasi, hejuru yacyo hariho ibinini bipfundikirwa bikorwa muri icyo kibabi.

Icyapa gishushanyijeho umugabo n'umugore, munsi hari ibara ry'icyatsi ryanditsemo n'amagambo y'umweru, asobanura icyo umuti uri ku ruhande ukora, uri mu gacupa k'umweru gafite igishishwa k'iroza.

Ameza ateretseho ubwoko bw'imiti itandukanye iri mu dukarito, iri mu ducupa ndetse harimo n'ifite ibitsinga, bimwe ni ibyo koga ibindi ni ibyo kwisiga ndetse hari n'ibyanditseho amagambo afite amabara atandukanye.

Ubwoko bw'igiti buzwi nk'umuravumba wifashishwa mu buvuzi gakondo bwa kinyarwanda bufite amababi y'icyatsita mu murima ndetse n'ibindi byatsi bitandukanye.

Ameza ateretseho ibyatsi byenda kuma, bikoreshwa miti ya kinyarwanda, iruhande hateretseho ibiri ku ruhande ndetse n'ibiri mu isekuro harimo umuhini, bisa nk'aho bagiye kubisekura.

Uducupa turimo amavuta akorwa mu gikakarubamba, dufite ibara ry'umweru, dushushanyijeho akanuma mu ibara ry'icyatsi, ryandikishijeho amagambo y'icyatsi ndetse n'umukara, hasi yashushanyije igikakarubamba.

Agacupa kari mu ibara ry'umuhondo, gafite umufuniko w'umutuku, kandikishijweho n'amagambo y'umutuku, iruhande rwako hateretse ikirahuri kirimo ibisukika bisa umweru, iruhande rwaho hari igikakarubamba kikiri cyose, ndetse n'uduce duce tw'igikakarubamba.

Ubwoko bw'ibinyobwa bitandukanye bikozwe mu bintu bitandukanye, biri mu ibikarito hariho igishushanyijeho umukobwa ukenyeye isume mu mabere, hariho igishushanyijeho igikombe cy'ikawa, harimo igishushanyijeho imbuto z'ubwoko butandukanye ndetse hari n'ikindi kiri mu ibara rya shokora gishushanyijeho ikawa irikuvamo umwotsi, ku ruhande rwaho hateretse igikombe kirimo ikawa.

Igiti cyifashishwa mu buvuzi gakondo kizwi nk'umuravumba gifite amababi y'icyatsi ndetse n'ibiti bya shokora, ku ruhande rwaho hari ibyatangiye kuraba bifite uturabo tw'umuhondo ndetse na oranje.

Icyapa kiriho imiti itandukanye ya gakondo. Harimo iri mu dukarito, iri mu ducupa ndetse imwe muri yo igiye ikozwe mu gikakarubamba, tangawizi ndetse n'ibindi bihingwa byifashishwa mu buvuzi gakondo.

Uducupa tw'amoko atandukanye harimo agafite ibara ry'umuhondo gafite umufuniko wa shokora kandikishijeho amagambo ya shokora gashuyije yitwa karubamba hasi, kandi karimo igikarito gifite ibara ry'ubururu n'umweru hariho amata asukika, ndetse n'akandi gafite ibara rya move n'umweru.

Agacupa gafite ibara ry'umukara, gatoya, kandikishijweho amagambo y'umweru, iruhande hari akarongo gafite ibara ry'iroza kandikishijweho amagambo y'umukara ari mu cyongereza, gafashwe n'ibiganza byombi by'umuntu.

Ameza ateretseho ibikoresho bitandukanye, hariho umuti w'amenyo, ukozwe mu gikakarubamba, iruhande rwawo hari agasume, hariho agakombe gateretsemo uburoso bubiri, ndetse ku ruhande rwaho hari uducuma, duteretsemo igikakarubamba.

Icyapa kiriho ubwoko bw'ibiti bitandukanye, harimo Kapicine ndetse n'indimu, n'ibindi biti byifashishwa mu buvuzi, munsi ya buri foto hagiye harimo izina ry'icyo giti, ryanditse mu ibara ry'umukara.

Ameza ateretseho agasorori k'ikirahuri karimo ibiti bibiri, igiti kimwe cyisobekeranye n'ikindi cyatangiye kumeraho ikindi giti gifite akababi k'icyatsi, iruhande rwaho hateretse indobo ifite ibara rya orange.

Agakarito kari mu ibara ry'ubururu n'umweru ndetse n'umuhondo, kandikishijweho amagambo y'ubururu n'umutuku n'icyatsi, munsi hari akazeru gafite ibara ry'umutuku, kandikishijwemo imibare ndetse n'amagambo y'impine mu ibara ry'umuhondo.

Icyapa kiriho uducupa dutatu dushushanyije ibikakarubamba hasi, kamwe gafite ibara ry'umweru, akandi ni umuhondo, akandi gafite umufuniko wa oranje kandikishijweho n'amagambo ya oranje, hejuru ya buri gacupa hariho akanuma kari kuguruka.

Umurima uhinzemo igikakarubamba gifite amashami atandukanye ndetse bigiye bihinze mu buryo harimo intera hagati ya buri gikabamba, hejuru yaho hari igicu gifite ibara ry'ubururu ndetse n'ikindi cy'imvura yenda kurwa.

Agacupa gafite ibara ry'umweru kandikishijweho amagambo y'ubururu, gashushanyijeho agasiga. Iruhande rwaho hateretse igikakarubamba gisatuyemo uduce duce gifite ibara ry'icyatsi.

Uducupa dutandatu turimo amavuta akozwe mu gikakarubamba, ducuritse twandikishijeho amagambo y'icyatsi, turi mu ibara ry'umweru, hagati hashushanyijemo igikakarubamba.

Uducupa dutandatu turimo umuti w'amenyo ukozwe mu gikakarubamba dufite ibara ry'umweru, twandikishijeho amagambo y'icyatsi ndetse n'umukara hasi hariho igikakarubamba.

Akabati karimo ubwoko bw'amacupa atandukanye, gafite aho gutereka hatatu, ibiteretse hejuru, hari ibiteretse hagati ndetse hari n'uduteretse hasi. Iruhande rwaho hahagaze umukobwa wambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'umweru.

Ubwoko bw'ibiti bitandukanye byifashishwa mu buvuzi gakondo, harimo ibifite amababi y'icyatsi, harimo bifite amababi y'umuhondo, muri ubwo bwoko harimo nk'indimu, amapera, na kapusini, n'ibindi.

Igiti cyifashishwa mu buvuzi gakondo kizwi nka capusine kiri ahantu mu byatsi harimo icyatangiye kuraba gifite uturabo twa orange umuhondo ndetse n'umweru ndetse ubusanzwe kigira amababi y'icyatsi.

Igikarito kirimo amacupa avamo ibikozwe mu gikakarubamba, ifite imifuniko ya shokora gisa ibara ry'umuhondo, mo hasi hashushanyije igikakarubamba, handikishijwe amagambo ya shokora.

Icyapa kiriho ubwoko bw'amacupa atandukanye mu mabara atandukanye, akarongo ka oranje gatetsemo icupa rifite umufuniko wa oranje, akandi karongo k'umuhondo werererutse gateretsemo irindi cupa, akandi k'umuhondo karimo icupa rifite umufuniko wa shokora, akandi k'iroza karimo agacupa gafite umufuniko w'umutuku, kuri buri cupa hagiye hashushanyijeho igikakaruba.

Ikirangantego kirimo ibishushanyo bitandukanye harimo ibinini, ibyatsi izuba ririmo kurasa, ndetse kizengurutswe n'ingano, munsi yaho hari amagambo yandikijejwe inyuguti nkuru, mu ibara ry'icyatsi, ndetse n'ibisobanuro byayo mu ibara ry'umutuku.

Icyapa kiriho mu bwoko bw'ibyatsi bitandukanye, hariho amafoto atandatu agiye yanitseho inyuguti a b c d ndetse ku ifoto ya mbere hariho ucururiza hasi undi abicururiza mu kabati bikozwe mu bisukika ahandi ni mu isoko ahandi ni ku muhanda.

Ameza ariho ibintu bitandukanye bishashe ku makoma harimo nk'imbuto z'ubwoko butandukanye hari n'ibyatsi byumye hari ibiri mu gasekuru n'umuhini wako bisa umweru ndetse n'ibindi biririmo ishashi bisa umweru mu kantu k'umweru.

Agakarito gafite ibara ry'umweru, kandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umweru, mu karongo k'ubururu, kabamo udukoreshasho bakoresha bahanagura kugira ngo bakureho imyanda ku ruhu.

Ameza akozwe mu giti, ateretseho umusambi uriho ibintu bitandukanye, harimo nk'uduce dukasakase twa tangawizi, tangawizi ikiri yose, ibibabi by'igiti cy'indimu, indimu zeze ndetse n'utubindi dukikije ayo meza, ndetse n'agasekuru n'aho gusekurira ibyo bibabi.

Agacupa gafite ibara ry'umweru, kariho igishashi gifite ibara ry'ubururu n'umweru, hejuru hashushanyije agasiga kari mu ibara rya shokora, kandikishijweho amagambo y'ubururu.

Abantu babiri bahagaze ahantu mu ishyamba harimo umugabo wambaye ikoti ry'umukara agapira k'umutuku ndetse n'umugore wambaye umupira w'umweru w'amaboko maremare witeze agatambaro k'ubururu mu mutwe inyuma yabo hari amashyamba.

Icyo kunywa kiri mu gacupa gafite ibara ry'umutuku gakozwe mu cyuma kandikishijweho amagambo y'umweru, hejuru hariho inuma ifite ibara ry'umukara irimo kuguruka, hasi hariho amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara.

Ameza ateretseho uducupa tw'ubwoko butandukanye, dusa umweru, irindi rimwe rinini rikozwe mu kirahuri, rirabonerana, rifite umufuniko w'umweru, ririmo ibisukika by'umukara, inyuma yaho hari inzuki, iruhande rwaho hateretse indabo.

Ibiganza by'abantu babiri, umwe muri bo yambaye ishati y'amaboko maremare ihinnye y'ubururu, afite umuti w'amenyo mu kiganza ushushanyijeho igikakarubamba, undi afite uburoso bw'amenyo, arimo kumushiriraho umuti w'amenyo.

Agacupa kabonerana karimo umuti ufite ibara ry'icyatsi gashushanyijeho akanuma karimo kuguruka kandikishijweho amagambo y'umuhondo gafite umufuniko ubonerana ku ruhande rwaho hashushanyijeho igikakarubamba.

Ubwoko bw'amacupa atandukanye, buri mu ngano zitandukanye no mu mabara atandukanye, dutatu muri two turangana, kamwe gafite ibara ry'umuhondo, akandi umweru, akandi move, iruhande rwaho hari uducupa dutoya na two dufite ibara ry'umweru n'ibishishwa by'umuhondo, hejuru handitse amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi, byose bikozwe mu gikakarubamba.

Ameza ateretseho ibintu bitandukanye harimo igiti cy'umwenya cyifashishwa mu buvuzi gakondo, ku ruhande hateretse agasekuru n'umuhini wako, mo imbere harimo ibibabi by'umwenya, ku ruhande hateretse uducupa tubiri twavuyemo umuti wakozwemo umwenyo.